Icyumba gikorerwamo pulatike, aho abanyeshuri bakora ibyo bize bakabishyira mu ngiro ndetse bikaba, byabafasha gukomeza ndetse kumenya neza ibyo bize.

Ikigo cy'amashuri cyitwa Kabwende aho bari kugaragaza intego y'ikigo, icyerekezo ndetse n'indangagaciro z'ikigo, kikaba ari ikigo cyigisha gitanga ubumenyi ku banyeshuri.

Icyumba cy'amashuri aho cyubatswe neza ndetse kikaba gisize amarangi mu rwego rwo gukora icyumba cyo kwigiramo gisa neza kugira ngo n'abanyeshuri bagire isuku.

Mu Rwanda tugira umuco wo kwiteza imbere, harimo dushobora gukora imirimo itandukanye ,ndetse harimo no kudoda bitandukanye: ushobora kudoda inkweto, ushoboran kudoda imyenda ,ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikorwa by'ibihangano byo gushushanya, aho bashushanya bakoresheje penso, bishobora gutanga umusaruro wo gukora ikintu runaka umuntu yanagurisha kikaba cyamuteza imbere.

Umugabo urimo kubaka inyubako, akaba yambaye imyenda yabugenewe yo kurinda umubiri we: nk'isarurete, ndetse n'ingofero y'abafundi.

Umugabo urimo usobanurira abandi, uburyo bashobora gukatamo ibyuma ndetse bakoresheje ibyuma byabugenewe, ndetse harimo n'abadamu.

Abanyeshuri bari mu cyumba, cyahariwe gukorerwamo ibyo bize mu bikorwa, icyumba kizwi ku izina rya laboratwari, aho abanyeshuri bakorera ibyo bize mu ngiro.

Ububaji ni umwuga ushobora guteza imbere umuntu ubikora. Aho uyu mubaji akora ibintu byinshi bitandukanye, nk'intebe ndetse n'ibindi.

Abatetsi bari mu gikoni barimo bakata ibintu bigiye bitandukanye, aho hari abari gukata ibitunguru, ndetse hari n'abari gukata karoti, bityo kugira ngo bateka ibiryo biteguwe bifite isuku.

Ishuri ryigisha kudoda ku banyeshuri bose. Aho bafite umwarimu abigisha buri buryo babikoramo, ndetse ishurika ryitabirwa n'abantu bose baba abahungu cyangwa se abakobwa.

Umwarimu w'imibare, akenshi akoresha amarati agiye atandukanye cyangwa se ibicamurongo, ni ukuvuga ngo ibi birinda ko aca imirongo itagororotse, bityo agaca imirongo igororotse neza.

Ibikorwa by'ubusudizi aho bikorwa n'abantu bambaye amasarubete, bifashisha ibyuma byabugenewe. Bityo bagahuza ibyuma bishobora gukoreshwa nk'inzugi n'ibindi.

Abanyeshuri barimo kwigishwa, uburyo bashyira mu bikorwa ibyobize ndetse bakaba bari, kubyigishwa n'ubakuriye mwarimu wabo, nanone bakaba bambaye amataburiya, imyenda yabugenewe mu kazi.

Abanyeshuri barimo bakora ibyo bize babishyira mu ngiro, aho bari ahantu hubatswe neza, ndetse harimo n'ibikoresho bakoresha mu nzu yabugenewe yitwa raboratwari.

Nashinzwe gutembereza abazungu cyangwa se abakerarugendo mu maparike .Abo bantu bari mu rwego bita abapoloteiri abaporuteri bashobora kujya kwifotoza ahantu runaka.